Umuntu wicaye wambaye ishati hejuru y'amaboko magufi ya arimo gukina igisoro imbere ye hariho ameza hakurya hagaragaraho ibintu by'ibiti n'indabo byinshi bigiye bihari.